Ibikinisho by'abana biri mu mucaca. Harimo ibyicungo, ibikinisho by'indege ,ndetse n'igipangu kirimo amabara atandukanye. Inyuma y'ibyicungo hari umunara.

Ubusitani burimo ibiti, indabo, umucaca ndetse hari n'ikigo cy'amashuri, hariho imigozi yo kwanikaho imyenda. Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse hariho n'amadirishya n'inzugi binini, ndetse asakajwe n'amabati ajya kuba icyatsi kibisi.

ishuri rigezweho ndetse ririmo intebe nziza cyane harimo ikibaho cy'umukara ishuri ryubakishejwe amatafari ahiye ririmo sima ni ishuri ryiza cyane

Icyapa cyamamaza ikigo cy'amashuri, gishushanyijeho abana batandatu, abakobwa batatu, ndetse n'abahungu batatu, bambaye imyenda irimo ubururu, ifite amaburuteri ku bahungu, abakobwa bigaragara ko ni ishati ndetse n'amakanzu

Abanyeshuri cyangwa se abantu bari kwihugura ku bijyanye n'amashanyarazi aho abagabo bicaye imbere y'ameza bafite ibikoresho bigiiye bitandukanye, harimo ibibafasha guca insinga ndetse n'ibindi bibafasha kureba ko umuriro uri kwinjira hari usa n'umwarimu ari kubigisha.

Abantu batatu abanyeshuri babiri ndetse n'umwarimu uri kubafasha, aho bari imbere ya mudasobwa, bigaragara ko hari ibyo bari kwiga umwarimu ari kubafasha.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga imashini cyangwa se mudasobwa, aho imbere yabo hari ikibaho ndetse n'umuryango ufunguye bari ku meza, buri munyeshuri ari ku mashini ye bari kwiga ibintu bigiye bitandukanye ku mashini.

Aho batunganyiriza imisatsi cyangwa se muri salo, aho harimo amashini yogosha cyangwa se tondeze, harimo umugore wambaye ikanzu y'igitenge ari kogosha umugabo, yamushyizeho igitambaro gitukura, kugira ngo imisatsi itamujya mu myenda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, harimo umupira n'amashati ndetse bafite n'ibisuko bamwe na bamwe, bari aho bigira mudasobwa, bari kwiga isomo rigiye ritandukanye, ryiganjemo iryo bakoresha amamashini nka ayisiti.